Icyapa cyanditseho urumve umworozi tukugoboka mu gihe cy'amage tugane uhabwe ubwishingizi bw'amatungo yawe worore witeze imbere nta mbogamizi.

Icyapa cyanditseho uyu munsi uhariwe kwitaho no kuruhuka, hicaye ukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara afite igikombe cy'umuhondo mu ntoki ze ndetse n'igitabo arimo arasoma yicaye ku ntebe z'imisego.

Abagore babiri bambaye amakote bari gusuza undi mugabo bishimye bari guseka bamuha ikaze bigaragara y'uko aha batanga ubwishingizi mu kwivuza.

Icyapa kinini kimanitse hejuru kiriho abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, kirimo kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi.

Ni icyapa kinini cyane kiri ku muhanda giteye mu busitani bwiza kandi ubona butoshye kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi kigizwe n'amabara y'ikigina n'umutuku amagambo yandikishijwe umweru.

Ibibumbano byambaye imyenda n'ibirahure byamaso bihagaze mu cyumba kirimo imyambaro myinshi ndetse n'ibikapu.

Umugore wambaye ishati y'icyatsi n'umupira, ufite ibikapu mu ntoki ze, n'undi musore w'imashini, barimo barishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Ibibumbano byambaye imyenda isa, hirya hakamanikwa imipira, ndetse n'amakote, bigaragara yuko hano hacururizwa imyambaro y'ubwoko bugiye butandukanye.

Ibibumbano byambaye imyenda bigaragara yuko aha hacururizwa imyambaro igihe itandukanye y'abari n'abategarugori.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo imyambaro, harimo imyenda igiye itandukanye, iy'abakobwa ndetse n'iy'abagore, imanitse.

Ahantu hari ibitenge bigiye bitandukanye. Ibizinze ndetse n'ibimanitse, bigaragara yuko aha hacururizwa ubu bwoko bw'iyi myenda.

Umugore uhagaze arimo araseka, inyuma ye hamanitse amakanzu n'amashati menshi bikozwe mu bitenge bigaragara yuko aha badoda.

Imipira ndetse n'amapantaro bizinze biri mu tubati n'ibindi byinshi bimanitse hejuru bigaragara yuko aha hacururizwa imyambaro.

Ikibumbano cyambaye imyenda y'ibara ry'umukara ndetse n'ingofero hirya hamanitse indi y'abakobwa bigaragara ko aha hacuruzwa imyambaro.

Umugabo wambaye ishati afite urufunguzo runini hahagaze imodoka itwara imizigo bigaragara yuko ari iyo yaguze.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umukara, bafite igifunguzo kinini mu ntoki, inyuma bahagaze ibimodoka binini bitwara imizigo iremereye. Uko bisa umwe muri bo ni impano yahawe.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umukara, amapine manini igurishwa amafaranga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amanyarwanda.

Abagabo batatu, babiri bambaye imyenda y'umukara, undi uri hagati we afashe ku kintu kimeze nk'ururfunguzo, inyuma ya bo hari imodoka z'umweru nini.

Abagabo babiri bambaye amashati y'ubururu bwerurutse bafite urufunguzo runini mu ntoki zabo inyuma hagahagarara imodoka itwara abagenzi benshi.

Imodoka nziza z'amabara y'umukara, ziri mu cyumba ahantu bigaragara yuko zikiri nshyashya, ari mu isoko aho zigurirwa.

Imodoka y'umukara ifite ibirahure byijimye ihagaze mu nzu, bigaragara yuko iri ahantu hagurishirizwa ibinyabiziga bishyashya ubishaka yahabisanga.

Abasore n'inkumi bicaye ku ntebe z'umweru bafite ibikombe by'ibirahure mu ntoki zabo birimo amata bari kunywa, bigaragara yuko bari ahacururizwa ibyo.

Icyapa kigaragaza ko aha hacururizwa ibikomoka ku matungo y'inka ndetse n'ibikorerwa mu ruganda inyange, harimo amata ndetse n'amazi n'imitobe

Umugore n'umugabo, umwe yambaye ikote ry'umukara, ikanzu irimo imirongo y'umweru, bari ahantu hari imigati ndetse n'imitobe mu tubati.

Ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa emutiyene aho rugufasha kohereza, kwakira, kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Umuntu uri kubara amafaranga mu ntoki ze, ndetse n'ayandi ateretse ku meza, bigaragara yuko aha hakorerwa iguranwa ryayo.

Icyumba kirimo ibikoresho bikozwe mu mbaho aribyo utubati, intebe z'imisigo ndetse n'ameza n'ibitanda.

Intebe zikozwe mu mbahu, zifite imisego n'ameza yahazo nziza hirya n'igitanda n'akabati nkuko bigaragara aha bakora ibikoresho.

Intebe n'ameza bikozwe mu mbaho, biri mu cyumba gifite igikuta cy'umweru n'imirongo y'umukara, uko bisa bacuruza ibikoresho bya gakondo.

Imeza nziza ikozwe mu mbahk ifite intebe zo kwicaraho zigera kuri esheshatu bigaragara yuko aha bakora ibikoresho byo mu ruganiriro.

Intebe n'ameza zikozwe mu mbaho nziza, bakoresha igihe barimo bararya cyangwa barimo baraganira, zigera kuri enye.

Imbuga nziza iteyemo ibyatsi n'indabo, hirya hari udutebe dukozwe mu mbaho bigaragara yuko aha abantu bahasohokera bakanahacumbika rimwe na rimwe.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umweru ritatswe n'umuhondo ndetse n'umukara, bigaragara y'uko ari amacumbi abantu baruhukiramo.

Amasaha y'ijoro, amatara arimo araka amabara atandukanye, ni ku mazu menshi, uko bisa, hirya hari amacumbi abantu baruhukiramo.

Udutebe twiza dufite imisego y'umweru abantu bicara cyangwa bakaryamaho bari kuruhuka igihe bavuye koga mu mumazi ari hano asa ubururu.

Ahantu heza cyane hari udutebe two kwicaraho hashushanyije icyapa kigaragaza y'uko batanga ubwishingizi ku mishinga y'abantu.

Inyubako ndende iri mu mujyi rwagati, iriho amashusho menshi cyane, bigaragara yuko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi.

Ishusho igaragaza icyapa kiririho inka zirisha, bigaragara yuko hano batanga ubwishingizi ku mishinga ndetse no ku bantu n'amazu yabo.

Umugore wicaye yambaye ishati ya roza, igitambaro mu mutwe, arimo araseka. Inyuma ye hari akabati karimo inyanya, imineke, imbuto, uko bisa bacuruza ibyo kurya.

Inzu ndende igerekeye isize ibara ry'umweru ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi yaba ubwo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho byo murugo hamwe n'imyambaro.

Umugore wambaye imyenda y'umukara hejuru n'igitenge hasi, afite akabase karimo inyanya, bigaragara yuko aha ari mu gasoko gatoya, gacururizwamo imboga.

Isoko rito ricururizwamo imboga n'imbuto harimo abamama baje guhaha n'abandi baje bari gucuruza inyanya, amashu, karoti, intoryi ndetse n'avoka.

Umugore wambaye ikanzu itukura n'ijire y'umukara ndetse n'igitambaro mu mutwe ahagaze afite mu ntoki ze ishusho bigaragara y'uko ari mu isoko ry'imboga n'imbuto.

Imyenda izinze n'itazinze bitandukanye harimo iy'abana, iy'abakuru, amakabutura n'amapanaro bigaragara y'uko aha hacururizwa imyambaro.

Karoti, imyumbati, ibijumba, amateke, ibitoki ndetse n'imineke, biri hasi bigaragara yuko aha ari mu isoko ry'ibiryo biva mu murima.

Icyumba kimanitsemo amashusho menshi y'ibitenge, bigaragara yuko aha hacururizwa ubwoko bw'iyi myenda uramutse ubushaka waza kubaza.

Abagore benshi bicaye imbere yabo hari ibitebo birimo intsenda, inyanya, intoryi, ibitoki bigaragara yuko aha ari mu isoko ry'imboga n'imbuto.

Umusore wambaye ijire y'umuhondo, ari kumwe n'umugabo w'umupira utukura, bari kureba muri telefone, uko bisa, umwe muri bo ari gufasha undi.

Imodoka nini, ifite amabara abiri, iry'umuhondo niry'ikigina yanditseho y'uko ari iposita.

Umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi wanditseho ijambo vuba ari gufungura ikarito arimo arebamo ibyo yatumijeho.

Imodoka nyinshi zifite ibara ry'umweru ndetse n'urupapuro rwanditseho ijambo twiga rigaragara yuko ari itsinda runaka.

Ipikipiki ifite ibara ry'umutuku imisego y'umukara ihetse ikarito risa ubururu, bigaragara yuko igemura ibyo kurya.

Inzu ifite imbuga iparitsemo imodoka y'umutu hariho amabara y'umweru n'umuhondo bigaragara y'uko iri ku isoko igurishwa rirereye i Kanombe, i Kigali.

Inyubako nziza ifite igipangu cy'umukara n'umweru, iherereye i Kigali i Kabeza ikodeshwa ku mafaranga make.

Inzu nziza cyane ifite abarage y'umweru, iherereye i Kigali mu Rwanda, igurishwa miriyoni cumi n'eshatu z'amafaranga.

Inzu irimo intebe nziza zikozwe mu misego iherereyeye i kigali kibagabaka ikodeshwa mu mafaranga makeya y'ukwezi.

Amacumbi y'ubatse afite ibara ry'umukara aherereye I Kigali, I Remera akaba akodeshwa ibihumbi magana atandatu (600,000rwf) ku kwezi afite ibyumba bibiri byo kuraramo.

Igipangu kinini giteyemo imicyindo hari n'indabo ariko inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Inzu ikodeshwa igererekeye kabiri ifite imbuga nini, iherereye i Kigali Kibagabaga ibyumba bitanu byo kuraramo na bitanu byo kogeramo.

Inzu nziza ifite imiryango n'imbuga nini, n'ibyumba bitatu byo kuraramo, bikodeshwa ibihumbi magana ane, y'amanyarwanda iherereye Kimironko.

Inzu nziza cyane iri mu gipangu, igerekeye inshuro ebyiri, ifite agasongero hejuru, bigaragara yuko igurishwa i Kigali, mu Rwanda amafaranga ibihumbi bibiri.

Inzu nziza iherereye i Kigali mu murenge wa Kanombe ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, n'aho kogera, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu.

Inyubako igerekeye kabiri, bigaragara yuko bikorerwa mu bikorwa bitandukanye, iby'ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'inkweto n'ibindi bikoresho.

Abantu bahagaze mu isoko rya kijyambere, barimo barakoresha ikoranabuhanga, babara ibigurwa, abandi bishyura.

Isoko rya kijyambere harimo abamama benshi bahagaze bafite ibikapu mu ntoki zabo birya ku tubati hagiye hari ibikoresho bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki ahagaze imbere y'icyapa gishishikariza abantu kwishyura mituweri.

Isoko rya kijyambere ririmo ibyo kurya byinshi biri mu makarito n'ibindi bifunze ndetse n'ibyo kunywa. Ubishaka yabisanga hano.

Akagare kameze nk'agatebo, gafite ibara ry'icyatsi, kari gusunikwa n'umuntu, harimo imboga zitandukanye, pavur, intoryi, tungurusumu ndetse na sereri.

Umugabo ufite akagare kameze nk'agatebo, ari kugenda asunika, bigaragara yuko ari mu isoko rya kijyambere, yagiye guhaha ibikoresho, bigiye bitandukanye.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Ahangaha turabona amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amanyamahanga, amadorari bitewe nayo ukeneye uraza ukazana amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga cyangwa ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Umukobwa uri mu isoko rya kijyambere ufite akagare ari kugenda ashyiramo ibyo akeneye inyuma ye hakaba abandi bafite terefoni bari gucata.

Ahantu heza hasukuye by'intangarugero bigaragara ko hafatirwa amafunguro, harimwo intebe nziza ndetse n'ameza, iruhande hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa.